Abasirikari bafite imbwa, bari gushaka imbwa kugira ngo zizifashishwe, mu bintu by'umutekano.

Abagabo cyangwa se abasore batatu bambaye amapingu, bari mu bugenzacyaha, imbere yabo hari ibikoresho bya gakondo.

Umugore numugabo bafashe, igitambaro bari kuzimya umuriro, n'abapolisi bari kwigisha abaturage, ukuntu bakwirinda inkongi y'umuriro.

Umupolisi ufashe mikoro ari imbere y'abasirikari n'abapolisi, ari kubabwira ku bijyanye n'umutekano w'igihugu.

Indege iri mu kirere y'u Rwanda ya gisirikare, indege isa nk'iri gucunga umutekano w'igihugu.

Umugabo uri kumwe n'abaporisi bashinzwe kuzimya umuriro， uwo mugabo afite kizimyamwoto mu ntoki， ari kuzimya umuriro.

Umupolisi uri mu baturage ari kubabwira amategeko n'amabwiriza, bazajya barakoresha, igihe bari mu buzima busanzwe.

Umugore ufashe mikoro mu bantu benshi, ari kubaganiriza asa nkaho ari kubagira ibitekerezo byabateza imbere.

Abantu batonze umurongo harimo n'abasirikari babiri, biragaragara ko aba bantu bavuye mu nama. Inama ni nziza, ituma abantu bungurana ibitekerezo.

Abantu benshi bari mu nama, bari kungurana ibitekerezo. Kungurana ibitekerezo ni byiza cyane, kuko bituma abantu biteza imbere.

Abantu benshi bari mu nama, bari kuganira uko bakiteza imbere. Umugabo uri imbere yabo ufashe mikoro, usa nkaho hari ibyo ari kubabwira.

Abantu benshi bahagaze ahantu, hari abandi bari imbere yabo; bari kubaganiriza. Gukora inama ni byiza bituma mwungurana ibitekerezo.

Umukeka, umukeka ubag umeze nk'ikirago bicaraho iyo baruhutse cyangwa se bari kuwuriraraho.

Iyugi ni igikoresho cyakoreshwaga， na n'ubu kikaba kigikoreshwa， iyo bari kubyina indirimbo gakondo z'umuco nyarwanda.

Abantu b'abagabo bakuze, bafite imirishyo, bari kuvuza ingoma. Abantu bakunda injyana y'umuziki, kuko ngo iba iryoheye amatwi.

Inzu yubakishijwe amategura. Mu muco gakondo habagamo no kubakisha amategura.

Abagore bambaye neza, bari kubyina ahantu. Bari kubyina imbyino gakondo z'umuco nyarwanda.

Ubworozi bw'inzuki, ubworozi bw'inzuki ni bimwe mu muco nyarwanda kera n'ubworozi bakundaga gukora.

Ibikoresho byo mu muco wa kera bakoreshaga bari gukora ibintu bitandukanye.

Amakatsi ni ikinyobwa kiva mu bintu bakamishije， hanyuma bagashyiramo amazi bikaba amakatsi.

Umugabo wiyogoshesheje inyogosho y'amasunzu, biragaragara ko asa n'umuntu wa kera, uri kugaragaza iby'umuco nyahanda.

Uduseke turi ahantu, uduseke dukoreshwa bari gushyiramo ibintu cyangwa imyaka, bayijyanye ahantu runaka.

Ingobyi bahekagamo abarwayi, ingobyi yakoreshwaga bari gutabara igihe umuntu yarwaye bamujyanye ku bitaro.

Abakobwa beza, bambaye imyenda ya gakondo, bari kubyina indirimbo z'umuco nyarwanda.

Umugabo uri kubyina yambaye imyenda y'umuco nyarwanda. Kera abantu bakundaga kubyina.

Mu muco habamo guteka ibifuru bizwi nka nyirarunonko, cyane cyane abakunze kubikora ni abana.

Abakobwa bambaye imyenda, basa nkaho bari kubyina indirimbo z'umuco wa kinyarwanda.

Abagabo babiri bari kwiga kuvuza amakondera n'amahembe by'umuco nyarwanda.

Umugabo wa kera, usokoje amasunzu, wicaye ku ntebe, asa nkaho ari ibwami.

Abantu ba kera bicaye hanze y'inzu y'ibyatsi, basokoje amasunzu bari gucuranga inanga, umugabo umwe niwe uri kubacurangira wagira ngo ari kubigisha.

Igisabo kijishe, igisabo ni kimwe mu bikoresho byakoreshwaga kera, bari gucunda amata.

Agakono batekeramo, agakono bagatekeragamo kera bari guteka ibiryo bitandukanye, cyane cyane inyama.

Ibikoresho bikoreshwa mu muco wa kinyarwanda bari kunywa inzoga, ndetse n'ikirago babirambikiho.

Ikibindi ikibindi ni igikoresho cyakoreshwaga igihe bari kwenga inzoga, ndetse no gutara umusururu ikibindi rimwe na rimwe cyakoreshwaga no kuvoma amazi.

Inka zifite amahembe maremare, n'udutambaro mu bihanga byazo, n'inka zirimo ubwoko z'inyambo, inyambo ni inka u Rwanda rwari rutunze kera hafi ya rwose.

Abakobwa bafite imisatsi isokoje ukuntu， bari imbere yabantu， basa nk'aho bari kwiyerekana.

Ibikoresho bitatu byo mu muco wa kera, harimo umubirikira, uruho n'igicuma kirimo umuseke, biri ku nkoko, inkoko na yo irambitse ku kirago.

Ibiryo biri kunkoko ibijumba ,igitoki, ibishimbo imyumbati, igitoki gitetse mu muco nyarwanda bavuga ko byitwa magande.

Abakobwa ba kera，bari gucurira ahantu habaye igitaramo. Igitaramo cya kera cyabaga kiza cyane， kuko cyabahaga umwanya wo kuganira.

Itara ryo ku muhanda. Leta yashyizeho amatara ku muhanda, kugira ngo akazi na nijoro kajye gakorwa.

Turunovisi, turunovisi ni igikoresho gikoreshwa bari mu bintu by' amashanyarazi, bari gufunga nk'a maburo.

Igikoresho cyitwa ipensi. Ipensi ikoreshwa bari kuzinga insinga, iyo bari kwesitara amashanyarazi.

Inzu nini yubatse mu bwoko bw'urusengero, basengeramo Imana, u Rwanda rwashyizeho gahunda yo gusenga, hagati yo kuwa gatandatu no ku cyumweru.

Inzu nini cyane, iri kugaragara nk'aho ari urusengero. U Rwanda rwashyizeho amategeko yo kubaka insengero, kugira ngo abantu bajye babona aho basengera.

Inyubako yubatse neza, biri kugaragara ko ari urusengero, rusengerwamo abantu, u Rwanda rwashyizeho gahunda yo kubaka insengero, kugirango abantu babone aho basenga.

Inyubako nini cyane hejuru hariho umusaraba. Biragaragara ko ari urusengero. Urusengero rubamo abantu.

Inyubako yubatse neza, iteye amarangi y'umuhondo, isakaje amabati y'umutuku. Iri kugaragara ko ari urusengero.

Inzu yubatse Ifite amabati y'umutuku, biragaragara ko ikorerwamo gahunda za Leta.

Abantu bambaye amajire y'icyatsi, n'uwambaye imyenda y'icyatsi gusa witwa umudaso, wagira ngo bari kuganira ku mashuri cyangwa ibitaro, bari kubabaka.

Ubworozi bw'mboga zitwa karoti . Ubworozi bw'imboga ni bwiza ,butuma umuntu abona amafaranga.

Ahantu bari kubaka inzu itari yarangira, hanze hariho umusenyi, wagira ngo ni urusengero bari kubaka.

Amashuri n'imihanda， amashuri asakaje amabati y'ubururu，hariho n'ay'umutuku. Leta y'u Rwanda yashyizeho amashuri， kugira ngo abantu bose bige.

Inyubako yubatse neza yurusengero, hanze hariho abantu benshi, bavuye gusenga nabandi bayjayo.

Inyubako zubatse ahantu, hari kugaragara ko hari amashuri, U Rwanda rwashyizeho gahunda yo kwigisha abantu bose.

Inzu nini iri kugaragaza ibiro by' intara y'Amajyaruguru aho biherereye.

Inyubako yubakishije amatafari ahiye, biragaragara ko ari kuri sitasiyo ya polisi, kuko hanze hariho idarapo ry'intumwa y'amahoro.

Abantu bakora mu biro by'ubutabera n'amahoro, ibintu bijyanye n'uburenganzira bwa muntu.

Abantu benshi bicaye ahantu bahahuriye, imbere yabo hariho umuntu uri kubabwira ku bintu bijyanye n'ubutabera n'uburenganzira bwa muntu.

Imodoka ipakiye imbuto zitandukanye, harimo izipakiye wotameloni n'amacunga, n'indi ipakiye amacunga gusa.

Amato akora urugendo rwo mumazi, ari kwambutsa abantu cangwa ibintu.

Ahantu hasa nk'ahabereye imyigaragambyo cyangwa indwano, kuko hari umuntu uri kwinjira mu modoka, ufite icyuma mu ntoki, ahetse n'imbunda.

Ahantu haparitse imodoka nyinshi, hariho n'amatara, n'abantu bari kujya mu modoka, n'amatara ari kubamurikira, u Rwanda rufite iterambere ryiza cyane.

Imodoka y'imbangukiragutabara, imodoka itwara abarwayi yihutisha urugendo, kugira ngo umurwayi agereyo vuba.

Imodoka zitwara abantu mu buryo bwa rusange zitwa Litiko. Imodoka ni nziza cyane, zoroshya urugendo.

Abantu bahagaze iruhande rw'indege，bategereje ko iguruka. Indege ni umutungo w'igihugu wongera iterambere mu Rwanda.

Urujya n'uruza rw'ibinyabiziga, hariho n'ahantu bacuruza ibyokunywa, biyakiriye n'abantu benshi cyane.

Umugore uri kwinjira mu modoka, afite ikarita bakozaho ubundi bakagenda, harimo n'umushoferi wambaye agapira k'icyatsi.

Ahantu hari aho kogera cyangwa se bakorera siporo yo koga, hazwi nko muri pisine. Gukora siporo ni byiza cyane, bituma umuntu yishima, akanagorora umubiri.

Abakinnyi bari kwifotoza barangije gukina, cyangwa bagiye gukina umukino w'amaboko witwa basikete.

Umukino w'amagare abakinnyi bari kugenda bari kwiruka, hariho n'abandi bari hejuru mu nyubako no hasi, bari kureba isiganwa ry'amagare.

Uruvunge rw'abantu benshi biganjemo abagore n'abagabo, bambaye imyenda isa n'u Rwanda, biragaragara ko bari gufana.

Uruvunge rw'abantu benshi， harimo abagabo n'abagore， harimo n'abafite ubumuga， bari gukina basiketi umukino w’amaboko.

Abakinnyi bari guserebura kubera ko batsinze. Gukina ni byiza bituma umuntu aruhura mu mutwe, akananura n'umubiri.

Umugabo wambaye agapira k'umutuku n'ikabutura y'umukara, ufite agakinisho bakinisha iyo bari gukina tenisi.

Umukobwa uri gukora siporo yo gusimbuka, gukora siporo ni byiza cyane, kuko bigorora umubiri.

Abana bari gukina umukino w'amaboko witwa Basikete, siporo ni nziza cyane, ituma abantu bagorora umubiri.